Inama z'abayobozi zigiye zitandukanye zikunze kubera mu mahoteli yiyubashye, aho bafata imyanzuro ndetse bagashyira no mu bikorwa ibyo baba baganiriye biturutse mu muhuro baba bakoze.

Mu miyoborere myiza y'abaturage, abayobozi bakunda kujya mu nama zitandukanye, aho biga ku bibazo abaturage bafite ndetse bakagerageza no kubishakira umuti urambye.

Ubuyobozi bukwiye kwegerezwa abaturage ndetse abayobozi bakanoza ibikorwa baba bararahiriye kurahira, kugira ngo abaturage bakomeze bagerweho na serivisi bagenerwa n'Igihugu bityo batere imbere muri rusange kandi bagere ku iterambere rirambye.

Abayobozi bagiye batandukanye mu gihe cyose bari mu nama barimo biga mu bikorwa by'uburyo babungabunga umutekano, baba bagomba kwicara batuje ndetse bakurikiye ibyo barimo babwirwa.

Mu gihe habaye inama runaka ikoranya imbaga y'abaturage ikabahuriza hamwe, ni ngombwa ko umuyobozi ahaguruka agatanga ibitekerezo ndetse n'amabwiriza agenga ikiganiro.

Uru ni urubyiruko rw'abana b'ababyinnyi, barimo bashimisha imbaga nyamwinshi, iy'abantu bakuru ndetse n'abana bagenzi babo babereka zimwe mu mbyino zigiye zitandukanye.

Uyu nguyu n'umuyobozi runaka uri mu cyumba k'inama, ari gutanga ikiganiro akigeza ku bayoborwa.

Igihe abayobozi runaka bari mu nama bakurikiye ibyo umuyobozi mugenzi wabo arimo ababwira, baba bagomba kwicara batuje kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa ibyo babwiwe kandi bazanabigeza ku baturage nk'uko bigomba.

Igihe abanyamuryango b'umushinga runaka, cyangwa se abayobozi bari mu nama, ni ngombwa y'uko batanga ibitekerezo by'uko babyumva, bityo bigatuma basobanukirwa neza ibyo barimo bakurikirana.

Imitegekere y'igihugu cyacu akenshi ikunze gushingira ku nama zitabirwa na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye, hagamijwe kugira ngo hafatwe imyanzuro ihamye izateza imbere igihugu muri rusange ndetse n'abaturage.

Aba ngaba ni ababyinnyi ba bakobwa, barimo babyinira abantu bitabiriye ikirori, barimo babyina indirimbo zijyanye n'umuco za kinyarwanda.

Mu Rwanda rwo hambere inyambo zabaga ari inka ziteze amahembe ndetse zikagaragaza umuco nyarwanda w'icyo gihe, kandi na n'uyu munsi bikaba ari ko bikimeze ntacyahindutse.

Iki ngiki ni ibibindi cya kinyarwanda kirimo ikigage, gipfundikije amashara ndetse kikaba gishinzemo imikenke.

Mu muco wa kinyarwanda igihe ababyinnyi cyangwa se intore zirimo zihamiriza, zambara amayugi kugira ngo abazikurikiye cyangwa se abateze amatwi ibihangano byabo bakomeze baryoherwe n'ibyo barimo kumva ndetse banareba.

Mu Rwanda rwo hambere, hari imikino yakinwaga n'abasaza cyangwa se abakuze, irimo igisoro, aho abakinaga, bakoreshaga insoro ndetse bagakina n'indi mikino igiye itandukanye, irimo n'ibibuguzo.

Abayobozi ndetse n'abayoborwa muri rusange, igihe bahuriye hamwe, bari mu nama, barimo bafata imyanzuro, baba bagomba kugira igihe bacishamo, hakaza abaririmbyi, baririmba injyana zijyanye n'umuco kugira ngo baruhure mu mutwe.

Mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda, intore cyangwa ababyinnyi bambara imyenda yabugenewe irimo imyitero ndetse n'ibindi, kugira ngo bagaragare nk'abafite umuco.

Mu Rwanda rwo hambere abami bagiraga uburyo biyogosheshamo, cyane ko babaga bafite amasunzu, ibyo bakabikora bagamije gusigasira umuco Nyarwanda kugira ngo utazima.

Mu muco nyarwanda wo hambere, iyo abantu babaga bagiye gusya amasaka ndetse n'ubunyobwa, bifashishaga urusyo, inkoko ndetse n'igiseke cyifashishwaga mu kubika, ibyo bamaze gusya. Ibyo bikadufasha gusigasira umuco nyarwanda.

Aha ni ku muhanda wa kaburimbo, ibinyabiziga byinshi binyuramo birimo amamodoka, amamoto n'ibindi ndetse hari n'amatara ku mihanda.

Leta y'u Rwanda usanga ishishikajwe no guteza imbere abaturage, aho n'abatuye mu bice bigiye bitandukanye by'icyaro bashyikiriza umuriro uturuka ku mirasire y'izuba, kugira ngo nabo badasigazwa inyuma mu iterambere.

Iki ni icyumba cy'umuriro w'amashanyarazi aho bawukupira bakanawukupurira.

Ibikorwa remezo birimo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi bikorwa na leta akenshi usanga bigirira abaturage akamaro cyane ko ababikoramo babona ibibatunga ndetse n'abaturage bakiyegereza umuriro muri rusange bityo bagakomeza gukora imirimo igiye itandukanye bakibeshaho.

Imiyoborere myiza y'abayobozi ndetse n'abategetsi bakora muri leta, usanga ikunze kugira akamaro kanini cyane, aho bagira uruhare rukomeye mu kwegereza abaturage ibikorwaremezo, birimo n'umuriro w'amashanyarazi. Ibyo bigafasha abaturage gukomeza kwibeshaho ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Umuriro w'amashanyarazi ufatwa nka kimwe mu bikorwa remezo abaturage begerezwa, hagamijwe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze busugire, bityo zigafasha n'abana bato bavuka kuko bakenera ingufu z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babeho.

Mu bice by'Igihugu bigiye bitandukanye aho abaturage batuye cyane cyane ubuyobozi bugenda buhegereza ibikorwaremezo birimo: umuriro w'amashanyarazi, imihanda ndetse n'ibindi bityo abaturage bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo gushyikiriza abaturage ibikorwaremezo ndetse no kubageza ku iterambere, Leta igenda yegereza umuriro w'amashanyarazi abaturage, bikabafasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, birimo nko gusya ndetse n'ibindi.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo kegerezwa abaturage hagamijwe kugira ngo bakore imirimo itandukanye, irimo nko kwiga, gusya, ndetse n'ibindi. Ibyo bigatuma abaturage bagera ku iterambere rirambye, bakabasha kwibeshaho ndetse babana n'abandi.

Iri ngiri ni ipironi rishinzwe gukwirakwiza ndetse no gutwara umuriro w'amashanyarazi, riwuvana mu gace kamwe riwujyana mu kandi.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo byegerezwa abaturage kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza ndetse banabeho neza, bityo n'abana bakomeze bige kandi bashyizeho umwete.

Iyi ni inyubako ya Leta itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye.

Mu rwego rwo kubungabunga imibereho myiza y'abaturage, Leta ishyiramo ingufu nyinshi mu kubegereza ibikorwa remezo ndetse ikanabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, ibaha imihanda ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo guca akajagari ndetse no kuzamura, ubukungu bw'igihugu, leta igenda ishyira hirya no hino amasoko, afasha abaturage kubona aho bashyira umusaruro wabo, ibyo bikabafasha kubona amafaranga mu buryo buboroheye.

Akenshi ukunze gusanga Leta ishyiramo ingufu nyinshi mu kubaka ibiraro bihuza agace kamwe n'akandi, cyane ko binoroshya ubuhahirane hagati y'abaturage ubwabo ndetse n'abandi, bagiye baturuka imihanda itandukanye.

Akenshi inyubako za Leta zikunze kuba zubatse neza, ndetse zifite uburambe ku buryo abazikoreramo abafite umutekano, bagashobora guhura n'ibizazane ibyo aribyo byose mu gihe bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Hagamijwe kugira ngo abaturage bakemurirwe ibibazo bahura na byo, Leta yubaka ibiro by'Imirenge igiye itandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona ubufasha.

Mu gihe cy'ibiza, amashuri menshi ndetse n'andi mazu y'abaturage, akunze gusakamburwa n'imiyaga ikaze cyane, ibyo bikangiza ibikorwaremezo ndetse n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange.

Amasoko agiye atandukanye agezweho cyangwa se ya kijyambere leta ikunze kuyegereza abaturage kugira ngo bakoreremo ubucuruzi bw'imyaka ndetse n'ibindi.

Aha ngaha ni ku kiraro gihuza umusozi wo hakuno ndetse n'umusozi wo hakurya, kigana mu ishyamba.

Ku mipaka y'Igihugu ni ngombwa ko hashyirwa inzego z'umutekano, zishinzwe gucunga ibyinjira n'ibisohoka, hagamijwe kurinda ubusugire bw'Igihugu no kureba ko butakwangirika.

Hagamijwe kugira ngo leta yegereze ibikorwa remezo abaturage, ibafashe kubaho neza ibubakira imihanda ikabagezaho n'amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Gushyikirizwa ibikorwaremezo kw'abaturage, bituma bumva ko bafite ubuyobozi Kandi bubitayeho, bityo bikoroshya guhahirana ndetse no kugenderana hagati yabo, maze bakabaho bishimye, bikimakaza umuco nyarwanda.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abana bato ndetse n'abaturarwanda muri rusange, Leta yagiye ishyiraho amakusanyirizo ashinzwe gutunganya amata ndetse no kuyafata neza hagamijwe kugira ngo akomeze agire ubuziranenge bityo adatera indwara ku bayakoresha.

Imirenge igize igihugu cy'u Rwanda, igiye itandukanye, ikunze kugira abakozi babihuguriwe kandi babyigiye, bityo abagafasha abaturage kuri serivisi zitandukanye, kugira ngo abaturage bakomeze babeho neza.

Mu rwego rwo kwegereza ibikorwa remezo abatishoboye ndetse n'abaturage muri rusange, leta ikomeza gushyiramo imbaraga nyinshi mu kubakira amazu yagenewe abatishoboye, bityo bakomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse ikabegereza n’umuriro.

Mu buryo bwo kubungabunga imibereho myiza y'abaturage, Leta itera intambwe mu kubaka ibiraro bihuza uduce tumwe n'utundi, hagamijwe kugira ngo horoshye imihahiranire ndetse n'imigenderanire y'abaturage muri rusange.

Mu gihe cyose ubuyobozi bwegerejwe abaturage, ni ngombwa ko ababayobora babagezaho ibyo bagenewe kumva ndetse bakabyumva neza bicaye batuje, bigatuma bakomeza kugira imibereho myiza ndetse bafite n'umutekano mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abayobozi bakora mu nzego z'ubutabera ndetse n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu, bakwiye kujya bikoresha akanama bakareba ibibazo bihari mu baturage bakabikemura.

Mu gihe abayobozi barimo bashyingura umuntu wabo wabavuyemo, cyane cyane ukora mu nzego z'umutekano, ni ngombwa ko bose bahagarara batuje ndetse bakunamira umuntu bagiye guherekeza kugira ngo bigaragaze umuco.

Abayobozi barimo n'inzego z'umutekano akenshi bakunze gushyigikira urubyiruko mu kubaka ejo heza hazaza, binyuze mu kubashishikariza umumaro wo gukorera hamwe ndetse no gukura amaboko mu mufuka bagakora.

Mu birori bitandukanye usanga abantu bakunze guhuza urugwiro batitaye ku ibara ry'uruhu bafite, ugasanga ibyo ni byiza kandi biragaragaza ko bafite ikinyungura ndetse n'umuco, ibi bituma bagira imikoranire hagati yabo myiza kandi inoze.

Aha ngaha ni ku kigo cy'amashuri, aho ababyeyi ndetse n'abarezi muri rusange, bari hamwe barimo bafata ifoto.

Abayobozi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurengera uburenganzira bwabo, bakwiye gushyikiriza ubutabera abo bayobora, ndetse bakamanuka no mu byaro bakajya kuhageza umutekano.

Aba ni abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zitandukanye z'ubutabera ndetse n'izishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu, bari mu nama biga ku bibazo bihari muri rusange.

Ubuyobozi bukunze kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda, bityo nyuma yaho bagahurira mu nama bagakemura ibibazo bigiye bitandukanya abaturage bafite bikabafasha kubana neza muri rusange.

Inzego z'ubutabera zikwiye kwegera abaturage, hagamijwe gusesengura ndetse no gukemura ibibazo bagenda bahura na byo mu mibereho yabo ya buri mu nsi, ibyo bigatuma babaho kandi babanye mu mahoro bityo bakimakaza umuco nyarwanda uzira amacakubiri.

Abayobozi bagiye batandukanye barimo n'inzego z'umutekano, bakunze gufatanya imbaraga ndetse bagashyira hamwe, mu gukora akazi kabo neza ndetse no kuyobora abo bashinzwe, bityo bigatuma abaturage babasha kubaho mu mutekano kandi.

Inzego z'ubutabera zikwiye gushyira amaboko ndetse n'imbaraga hamwe, kugira ngo barengerere uburenganzira bwa muntu ndetse banamurenganure bakemure n'ibibazo bihari , bityo abaturage babashe kubaho neza bafite umutekano ndetse n'ubwisanzure mu mibereho yabo ya buri munsi, ibyo rero bikaba byiza cyane ku mpande zombi yaba umuturege ndetse no ku muyobozi.

Aba ni abayobozi bashinzwe ubutabera, ndetse no kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu.

Tugomba kuzirikana ko mu gihe cyo kwibuka ndetse no kunamira abacu bazize Jenoside, tugomba gufatanya n'inzego z'umutekano, hagamijwe kugira ngo hatagira abazana ingenga bitekerezo.

Ni ngombwa ko inzego z'umutekano zegera abaturage, zikabafasha no gukemura ibibazo igihe bivubutse, cyane ko arizo nshingano zabo baba barahiriye kuzakora, ubwo bazaba bageze ku buyobozi.

Imihanda ni imwe mu bikorwa remezo Leta ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo kegerezwe abaturage bityo bakajyana umusaruro wabo ku isoko igihe ari abahinzi cyangwa se abatwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye bakaba kugira imibereho myiza binyuze mu mwuga wabo bakora.

Iki ni icyapa kigaragaza, indangagaciro ndetse na kirazira zigenga umuco nyarwanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga igihe bitwaye abagenzi cyangwa se abanyamaguru muri rusange.

Mu rwego rwo kubungabunga isuku ndetse no kwita ku bidukikije, leta ishyiraho igikorwa cy'umuganda, aho inzego z'umutekano n'abandi bayobozi bitabira icyo gikorwa bityo tukarushaho kwimakaza isuku, ndetse n'umuco nyarwanda muri rusange.

Aba n'abayobozi b'umushinga ndetse baje gutanga inka bayigeza ku baturage, kugira ngo babashe kwiteza imbere binyuze mu bworozi.

Inzego z'umutekano ndetse n'abaturage n'abandi bantu bakora indi mirimo itandukanye, bakunze guhurira mu bikorwa birimo gahunda za leta, aho bishimana ndetse bagasabana, bikabafasha gukomeza kubaka umuco nyarwanda ndetse no kurengera indangagaciro z'umuco nyarwanda.

Ni ngombwa ko abayobozi batandukanye begera abaturage, bakabibagezaho ibyo babateguriye, ndetse bagakemura n'ibibazo bagenda bahura nabyo, hagamijwe kugira ngo bakomeze bagire imibereho myiza.

Igihe cyose abakuru b'ibihugu ndetse n'abaturage n'abandi bayobozi muri rusange, bitabiriye igikorwa cyabaye nk'umupira ndetse n'ibindi bagomba guhabwa umutekano uri hejuru cyane kugira udahungabanywa.

Hano abaturage bateranye n'inzego z'umutekano, aho barimo batanga ibibazo bagenda bahura nabyo, mu gihe babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibikorwaremezo muri rusange, ubuyobozi bushishikariza abaturage gukora umuganda ndetse bakabikorana umutima utuje kandi ukunda.

Aba ni abakinnyi b'abakobwa bari mu myitozo ngororamubiri mu kibuga cy'umupira w'amaguru.

Aha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, umuzamu aherereye mu izamu aho umukinnyi mugenzi we agiye kumutera penaliti.

Imyidagaduro ni imwe mu bishimisha abatari bake cyane cyane urubyiruko ndetse n'abakuze. Ibi bifasha abakora umwuga wo gukina umupira w'amaguru kuko batunga imiryango yabo ndetse bakabaho umunezero bivuye mu byo bakora.

Umukino w'umupira w'amaguru akenshi ukunze gushimisha abatari bake, barimo n'umuyobozi w'igihugu cyacu. Ibyo bigatuma abawukina bawukora nk'umwuga ubeshaho imiryango yabo. Ibi rero ni bimwe mu bituma abatari bake bashyiramo ingufu mu gufana umupira.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari muri siporo.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, bicaye ku ntebe y'abasimbura, bategereje ko na bo baraza kujya mu kibuga igihe bagenzi babo babanjirije baribuze kuba bananiwe.

Aba ni abakinnyi bari muri siporo ngororamubiri ndetse n'umudamu bari gukoresha siporo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru ni bamwe mu bantu bakora umurimo wabo kandi bawukunze, bikabafasha gutunga imiryango yabo muri rusange ndetse bita no ku buzima bwabo kubera yuko bakora imyitozo ngororamubiri.

Mu bikorwa remezo Leta yegereza abaturage, ishyiramo n'ibibuga by'imyidagaduro, aho abashoboye gukina umupira ndetse n'indi mikino itandukanye bashobora guhurira, bagakina kandi bose bakishimana baniyumvanamo.

Imyidagaduro irimo n'umupira w'amaguru, ikunze gushimisha abatari bake, aho bafata umwanya wabo bakitabira aho yabereye ku bibuga bigiye bitandukanye, kugira ngo bafane amakipe bakunda kandi bahoza ku mutima, ibyo bikongera ibyishimo byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Umupira w'amaguru ni imwe mu myidagaduro ifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse ikanababera umwuga ubafasha kubona ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umukino w'umupira w'amaguru ku bakiri bato, ubagirira akamaro kubera ko amakipe agiye akomeye cyane, abaha akazi bityo bigatuma bibeshaho mu buzima bwabo ndetse n'ubw'ejo hazaza . Ibyo bakabigeraho bakoze imyitozo ihambaye cyane ndetse bagahabwa n'amasezerano mu makipe agiye akomeye.

Aha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, aho amakipe abiri ahanganye ari gukina umupira ndetse n'umusifuzi ushinzwe kubasifurira amakosa, akaba ari mu kibuga afite n'ifirimbi ku munwa.

Imyidagaduro ikunze kugirira akamaro abatari bake ku isi yose muri rusange, cyane cyane ko abantu babetinga ndetse n'ababikora by'umwuga babona amafaranga, bityo bakibeshaho kandi bakabeshaho n'imiryango yabo muri rusange, bigatuma bakomeza kubaho ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukino w'umupira w'amaguru ukunze gufatwa nk'impano umuntu avukana cyangwa se yitoza aho umufasha kwiteza imbere ndetse agatungwa n'umuryango muri rusange.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, uca ahantu mu giturage, hatari mu mujyi.

Ni byiza ko leta yegereza ibikorwa remezo abaturage birimo; nk'imihanda, amavuriro, umuriro ,ndetse n'ibindi.. Aho abantu bagenda bisanzuye kandi nta nkomyi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, umumotari atwaye moto umuhanda uca mu mugi ukomeza.

Mu migi igiye itandukanye usanga abaturage bakora imirimo myinshi kandi akaba ari nayo ibabeshaho, aha twavuga nk'abamotari aho umwuga wabo uba ari uwo ugutwara abantu ukabageza iyo bagiye bityo bagatunga imiryango yabo.

Abatari bake usanga bashaka impushya zo gutwara ibinyabiziga, cyane cyane ko na Leta ibishyiramo imbaraga, ikabereka ahantu habugenewe bagomba kwigira honyine n'abigisha babo.

Imihanda imwe n'imwe mu biturage bigiye bitandukanye ikunze gutera ibibazo abaturage bajyana umusaruro wabo ku isoko ndetse n'abatwara ibinyabiziga aho bibatera ibibazo bikomeye.

Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, birimo nko kwegereza abaturage umuriro, imihanda, ndetse n'ibindi, bibafasha koroshya ubuzima ndetse n'imibereho myiza muri rusange.

Ibikorwaremezo birimo:amazi, umuriro ,ndetse n'ibindi leta ikomeza gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bigere kuri buri muturage wese w'igihugu, ibyo bigatuma babasha kwihitiramo abayobozi beza bazagira icyo babafasha ejo hazaza.

Ubuyobozi bw'Igihugu bukunze gushyira imbaraga nyinshi mu kwegereza ibikorwa remezo abaturage, birimo nk'imihanda, amashanyarazi, amazi n'ibindi kuko biri mu bintu bya mbere bakenera igihe bakeneye kugira imibereho myiza hagati yabo.